Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Hyundai iparitse hamwe nandi mamodoka menshi ifite icyapa cya ndistseho kigali Carizi maketi iparitse imbere yinzu ifite irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'umukara na konteneli y'umutuku .

Iki ni ikigo cyiza cyane cya sonarwa kimaze imyaka myinshi cyane gikorera mu Rwanda, ni ikigo cy'ubwishingizi rero wafatamo ubwishingizi bw'inzu yawe, ibicuruzwa byawe cyangwa igihe ushaka ko ufata ubwisungane mu kwivuza, rero iki kigo igihe cyaziye mu Rwanda gikora neza nta muntu ndumva akivuga nabi giha serivisi abakiriya bacyo kandi neza ku buryo buri wese ahora yishimye.

Mu buryo bwiza banke zazamuye bwo kwishyura na viza kadi, ubundi iyi karita iyo ifite birakorohereza kuko aho ugiye ntabwo bisaba ko ugendana amafaranga kuko ahantu henshi usigaye usanga bafite akamashini ukozaho ino karita, ukishyura ibyo wakosomye, ntakwirirwa wirukanka cyangwa urwana no kuvuga ngo udasanga kuri banke bafunze.

Turabona umuzungu uri kugaragarizwa uko iri duka cyangwa ino butike ibikora. Kugira ngo atahe yishimye yanogewe na serivisi yabo. Ni yo mpamvu ari byiza gukoresha ikoranabuhanga muri bizinesi yawe kuko bifasha abakugana n'iyo ari abanyamahanga gutaha bishimye.

Ni uburyo bwiza cyane bwo kwamamaza ukaba wagura cyangwa ukagurisha hatajemo abakomisiyoneri ngo bakurye amafaranga utateganyije. Nkaha turahabona imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa yundayi tokisoni yabibiri na cumi na gatatu. iri hayiburidi iri otomatike, byose uza ubizi n'igiciro cyayo kigaragara ko ari miliyoni icyenda.

Akagera motozi ni kampani icuruza imodoka nshyashya zero kilometere tumenyereye hano mu Rwanda imazemo igihe, ni kampani yizewe kuko abo iha serivise babiduhamiriza nkaha ngaha urabona ko ari uguze n'ugurishije bishimiranye bafashe ifoto y'urwibutso.

Imodoka nziza ya yundayi yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda, biragaragara ko ifite isuku yitabwaho cyane nk'uko bigaragara. Iri kugurishwa rero nkuko tubibona miliyoni cumi n'eshanu. Nawe uyiguze ntabwo waba uhenzwe kuko ni imodoka nziza urabona ko iri hejuru, ni imodoka utajyana ahantu ngo ikore hasi kubera uburebure ifite.

Imodoka nziza cyane, iri mu bwoko bwa merisedensi benzi, yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri, imagana atatu. Iyi modoka rero, biragaragara ko igurishwa. Ni bwa buryo bwiza cyane rero, kugurisha onurayini wiyamamarije, hatajemo iby'abakomisiyoneri ngo babe bakurya amafaranga atateganyijwe. Igiciro cyayo biragaragara ko ari miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ibicuruzwa byawe. Iyi modoka biragaragara ko igurishwa wayisanga kuri no numero yatanzwe hejuru kubera ko aha ngaha ugurisha nta bakomisiyoneri bajemo cyangwa uburyo bwo kugorana. Ufata ino nimero ugahamagara nyirimodoka mukihurira, ni ibintu biba byiza kandi byoroshye bitajemo akavuyo.

Aha turahabona inote y'ishana yakoreshwaga kera mu Rwanda ubu ntabwo igikoreshwa yasibuwe n'ibiceri ariko ubu turatuje turatekenye kuko iyi note kuyigendana wabaga ufite ikibazo ko imvura ikunyagiye yacika ariko ubu turatekanye nk'abanyarwanda ugendana amafranga yawe ukayakoresha mu gihe ntakindi kibazo cyabayeho mu kuyata.

Mu Rwanda dufite serivisi nziza pe! Turi mu gihugu cyiza gifite umutekano nk'uko abayobozi bacu bahora babitubwira. Aho umuturage agiye kubikuza amafaranga ye ari kuyahabwa n'umukozi ubishinzwe barishimye baraseka kubera ko turi mu gihugu gifite umutekano ahandi mu mahanga twirirwa tubona ko umuntu aba yihishe afite ubwoba ko aharasirwa ariko mu Rwanda bigenda neza pe.

Iyi niyo ni noti ya kera y' ibihumbi bitanu yakoreshwaga mu Rwanda aho leta y'u Rwanda yayisimbuje ikaba imaze gusimbuzwa inshuro ebyiri, rero bamaze kubona ko idafite ubudahangarwa bwo guhura n'amazi idukorera inote nziza byoroshye kuba wayigendana no mu gihe cy'imvura ukaba wanyagirwa, imvura igahita ugakomeza ugakoresha amafaranga yawe ntakibazo yagize ngo abe yagucikiraho.

Akunze kuba mu makaritsiye menshi atandukanye, ahakunze kwitwa ku nyange cyangwa kuri dayari aho byorohereza abaturage batuye muri utwo duce kubona amata meza kandi byihuse, kubera ko anomata araryoha kandi nta gahenda, umuturage rero biramworohera iyo amuri hafi kuko arahagera akinywera amata, akakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ameza asukuye nk'uko bigaragara ariho twa duti dukora isuku mu menyo mu gihe umaze gufungura, utu duti turafasha kubera ko umuntu umaze gufungura iyo agakoresheje, bimworohereza kuba yagenda afite isuku nko mu gihe atari mu rugo ngo agahita ajya kongera gusukura mu kanwa, rero iyo dukoresheje bitewe n'ahantu wamaze gufungurira ugenda usa neza utabangamira abo muri kumwe nk'uko bigaragara.

Aho tumenyereye nko kuri dayari, hacururizwa amata cyangwa aho twakwita ikusanyirizo, ni ahantu heza cyane nk'uko ku ifoto tubibona uyu mwana aratoshye kandi arashishe biragaragara ko afite ubuzima bwiza, atari mu mirire mibi kuko amata ari ari ingenzi mu buzima, iyi diyari rero igiye yegerezwa ahantu hose mu baturage, byafasha ko nta gwingira mu bana ryongera kugaragaraho.

Ni ya makusanyirizo meza tuzi nka dayari. Aha hantu hakusanyirizwa amata, agatunganywa, agaherezwa abaturage, akabageraho mu buryo bwiza kandi bworoshye. Ahantu hari iri kusanyirizo, kubera ko amata aba adahenze, kandi abageraho byoroshye, abana babaho neza, abaturage bakabaho neza banywa amata, bakaba bashishe aha ngaha nta bwaki iharangwa habe na gato.

Aha turahabona banke nziza cyane izwi nka kopedu, ni banke tuzi ko ari nziza yorohereza abaturage gufatamo imigabane cyane cyane bariya bo mu matsinda baba bazagabana bitinze. Iyi banki rero biragaragara ko ikorana na za wesitani yuniyoni kuko uwaba uri mu mahanga yakohereza amafaranga ukaya retira utiriwe ujya kwirukanka ahantu hatandukanye kuko ahangaha iyo serivisi n'aho bayigira.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

Ni ikigo cyiza cyane gifasha abaturarwanda cyangwa abanyamahanga bavuye mu mahanga bagana u Rwanda. kuba bakinjira mu gihugu badafite amafaranga yo muri icyo gihugu, bagahita bagana ibi biro bikabafasha kubona amafaranga yo muri icyo gihugu. Ntibaze kugorana n'abacuruzi kugira cyangwa bikabagora kugura ibyo bashaka kugura kubera ko nta mafaranga yo muri icyo gihugu bafite.

Aha ngaha tuhazi nko ku biro nka moni ekisicengi cyangwa biro de shanje aho bagufasha kukuvunjira ifaranga bitewe n'ibyo ukeneye kugira ngo bikworohere gukoresha amafaranga bitewe n'ibyo ugiyemo bitakugoye kuza kudiringa n'umucuruzi udafite amafaranga ugomba kumuha cyangwa ntimuhuze imibare biba byiza iyo ubanje kujya aha ngaha bakaguha amafaranga yaho ugiye.

Ahangaha turahabona utubati, ibikoresho byiza byo mu nzu, abenshi twifuza kugira nk'abanyarwanda kubera ko bitworohereza kubika ibintu byacu, mu nzu yawe ntihabemo akajagari, kandi ugusuye ukabona urugo rwawe rutatse kandi rusa neza, kubera ko bigira akamaro byagufasha nko kuba n'ahantu hato ufite ibi bikoresho kandi urugo rwa rugahora rutatse.

Ndabona ni akantu keza gakoze mu mbaho, biragaragaza ko kakozwe n'abahanga, babanje gukoresha umutwe rwose bagatekereza. Aka kantu ni keza kubera ko kagufasha kubika ibintu neza, urugo rwawe rugasa neza, ugusuye ntakunyuzemo ijisho kubera ko ibyo waba ufite byaba bibitsemo aha ngaha, utiriwe ubishyira hejuru cyangwa ngo bifate umwanya munini mu nzu yawe.

Turabona ameza cyane yo mu buriro, arateguye, hariho ibikombe by'ibirahure, birasa neza cyene, hirya turahabona amasahane ari ku kabati ku buryo urugo rwawe uwarugusangamo agusuye, ukamwakirira aha hantu yataha ishimye, kandi akazagaruka kubera ko waba wamwakiriye neza kandi ahantu heza hasa neza.

Ni ya mahoteli meza cyane dufite mu Rwanda harazwi ko hatanga serivisi nziza kandi aba afite isuku n'umutekano bihagije, aha turahabona nkaho aho bita kuri resepusiyo, aho hari abakozi ba hoteri n'umukiriya ubagannye agiye kubaka serivisi kandi arayihabwa neza nkuko tubyizeye bigenda neza nk' ibisanzwe mu Rwanda.

Inzu nini cyane kandi nziza tumenyereye nkama hoteri hano mu Rwanda, hanze turahabona ubwogero bwiza cyane kubera ko ubufasha uwaje kuharuhukira kuba yabaho neza akoga akaba afite amahumbezi afite ubuzima bwiza kubera ko hoteri zidafite buno bwogero rwose ntabwo bwaba bufite serivisi nziza.

Amahoteli meza cyane ari ahantu heza hitaruye bigaragara ko hatuje kandi hari umutekano, biri mu byafasha uhagana kuhakunda turahabonaana na jaride nziza cyane itoshye kandi bigaragara ko yitabwaho.

Ni sonerwa kampani ni ikigo cy'ubwishingizi kimaze igihe kinini cyane gikorana n'abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bayigannye ntawayinubiye barakwishingira mu gihe uri mu bibazo cyangwa mu byago nibwo ubona akamaro kabo cyane cyane kubera ko nta wigeze akorana na sonerwa ngo umubone yabaye nk'umusazi ku muhanda kubera ko igihe urimo byago iragufasha ikagutabara kubera ko aricyo wayiganiye.

Turahabona icyapa cyanditseho radiyanti, cyo mu ibara ry'ubururu n'umweru. Ni ikigo cyiza cyane cyangwa icyo twakita kampani, icyo bita ngo isezerano ni isezerano kuri bo. Ni ikigo cyiza cyane cyo gufatamo ubwishingizi, ubwo bakwishingira inzu yawe, bakishingira ikinyabiziga cyawe, mu gihe wagira ikibazo cy'inkongi y'umuriro cyangwa ibiza bitategujwe, baragufasha rwose, ntabwo warira nk'umuntu utarabagannye.

Ni isoko rinini kandi rigari nk'uko bigaragara, turabonamo inkweto nziza cyane, harimo urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara ko abantu bahacururiza bafite abakiriya kubera ko bafite ibikoresho byiza, ubu kandi aha hantu haba na za ibiyemu, kwishyura na kode, uburyo bwose bwo korohereza abaguzi bushobora kuba buri hano hantu, dukurikije abakiriya bahagana uko bangana.

Iguriro ry'ibikoresho by'ubugeni, harimo imitako, harimo ibintu byinshi bitandukanye byagufasha gutaka no gusukura aho ukorera, hagahora hasa neza, kandi hakurura abagusura n'abakugana, kandi ryagufasha kwiteza imbere, kubera ko ibi bikoresho bikunzwe cyane mu Rwanda, ndetse no mu mahanga.

Ni isoko ryiza ry'ibiribwa turabona imboga nziza cyane zitoshye, bimwe mubigirira abaturarwanda akamaro, bakaba bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze turahabona n'ibirungo abaturage bari kwiteza imbere nk'uko bigaragara kubera ko wabashije kugera hano ugakora ntabwo wakwiba cyangwa ngo usabirize.

Turi kubona isoko ryiza cyane ririmo ibiribwa bitandukanye turabonamo amashaza cyangwa icyo abanyarwanda bita urunyogwe, tukabonamo ibishyimbo, ubunyobwa, imbuto tuzi nk'imineke, inyanya dore ibinyomoro bifasha kongera amaraso mu mubiri, ibi byose rero ubifite iwawe waba ubayeho neza kandi ufite ubuzima bwiza kubera ko wabifatikanya n'ibyongera imbaraga maze ukabaho neza ufite ubuzima buzira umuze.

Ni uburyo bwiza bwaje mu Rwanda bworohereze umuguzi mu buryo bwo kugura adakaswe amafaranga kuberako uwakoresheje kode bimworohereza ko ibyo yaje guhaha byose abigura kandi akabitahana nta buryo bwajemo bwo gukatwa amafaranga ni byiza rero usaba kode aho wanjiye kugirango bikorehereze nk'umunyarwanda kandi ugataha wishimye.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Ubu ni akantu keza ikigo cya emutiyene cyadukoreye kuko umuntu usanze muri kano kazi ubu uzi ko yizewe, atari bya bindi by'abamamyi ushobora kubikuza amafaranga agahita agenda atayaguhaye, cyangwa akaza kuyahagakisha cyangwa akagenda mukavuyo akubwira ko agiye kuyazana ntagaruke. Umuntu usanzemo hano rero ubona ko afite aderese kandi ugakorana na we nta bwoba ufite.

Ubu ni uburyo bari kutwereka nk'abantu bahahira ku mbuga nkoranyambaga, uburyo wakuzuzamo icyo ushaka, naho uri n'uburyo kiri buze kukugeraho noneho wamara kubyuzuza serivisi baguha ni uguhita bakoherereza icyo wabasabye ni ibintu bikugeraho bidatinze rwose.

Ni za mbuga nziza zitworohereza nk'urubyiruko cyangwa abantu bakoresha ikoranabuhanga, ahangaha wahaha ibikoresho byawe cyangwa ibyo wifuza nka gifuti za holudeyi nk'aho washakiraho aho kuruhukira cyangwa ibyagufasha kuruhuka neza nta kabuza kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse.

Icyo izi mbuga zifasha zamamaza kuri interineti kandi zikanacuruza ni uko ikintu ukunze n'igiciro cyacyo kiba kiriho bakorohereza mu buryo bwiza bwo kuba wabitumiza bikakugeraho mu buryo bwihuse utiriwe ujyayo kubera ko iyo ubandikiye bahita bakubwira uburyo kiri bukugeraho ubundi wowe ugahita wishyura.

Inzu nziza cyane bigaragarira ijisho, yubatswe neza, isigwa neza amarangi, ni inzu nziza ushobora kwibaza uko imbere iri gusa bitewe nuko uyibona inyuma, turahabona indabo nziza cyane imbere zaguha akayaga, zikaguha amahumbezi n'umwuka mwiza wo guhumeka mu gihe waba uhari, ni muri bwa buryo bwiza bwo muri riyo isiteti bwo kwamamaza kuko iyi inzu yagukurura utaranahagera ukifuza kumenya uko imbere hameze.

Turabona icyumba cyiza cyane, kirateguye kandi neza, biragaragara ko uwaruhukira yataha yaruhutse kandi nta mavune afite, iki cyumba rero wakibona ukoresheje Riyo esitete onurayine, kubera ko uhagera byose byarangiye wateguje bazi neza ko ugiye kuza kubera ko wakoresheje uburyo bwiza bwo muri Riyo esitete.

Ni inzu nziza cyane nk'uko bigaragarira ijisho. Iratatse kandi irateguye irimo amatara meza. Biragaragara ko ari inzu igurishwa, kandi iri kugurishirizwa kuri enterinete, iri hano mu mugi wa Kigali, rero byakorohera mu gihe wagannye riyo isiteti, bakagufasha kuko mu gihe wabagannye birihuta cyane.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Inzu nziza cyane nk'uko bigaragara irakeye, ikurura buri wese, ni inzu wakwifuza mu nzozi zawe ko wazaturamo nawe ikitwa iyawe, rero ahangaha biragaragara ko ikodeshwa, ifite uburyamo bune, ikagira ubwogero bubiri, iyi nzu rero iherereye kagugu, ibatsinda, igiciro cyayo n'ibihumbi magana atatu ku kwezi, urumva ko bitewe n'uko isa n'ukuntu igaragara n'ahantu iherereye nta gihombo kirimo wababagana nawe.

Ni inzu nziza cyane yo guturamo iherereye i Kanombe mu gace keza cyane kabamo umutekano nk'uko tubizi. iyi nzu rero biragaragara ko ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ikagira ubwogero bubiri, irakodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi. Urumva ko nta gihendo cyaba kirimo bitewe n'ahantu byonyine yaba iri.

Uburyo bwiza cyane bwo kwamamaza buba kuri riyo isiteti. Turahabona inzu nziza cyane iri ku muhanda nk'uko bigaragara, imodoka yakinjira. Ni inzu nziza cyane, irasa neza kandi iri ahantu heza. Rero uwayishaka arabona ko yaba yayibonye hakiri kare cyane ahantu heza kandi hari umutekano.

Ni inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo bugaragara irageretse, ni inzu y'umweru bigaragara ko ikoreye isuku neza kandi bigaragara, ni inzu ikodeshwa iri hano mu mujyi wa Kigali, irakodeshwa amadorari magana abiri kandi iyi nzu biragaragara ko ifite n'ubusitani bwiza cyane kubera ko turabubona buratoshye bukoreye neza, kubwitaho ni ibintu byiza kuko byafasha uhari kubona umwuka mwiza wo guhumeka, ni ahantu heza ho gusohoka akaruhura mu mutwe.

Iyi ni inzu nziza cyane yo guturamo cyangwa gukodesha, ukaba wayikoreramo ubucuruzi, ku muntu wayigura ntabwo yahomba, kuko turabona ko irimo ubucuruzi, iri ku isoko, uwayigura yaba aguze neza, kubera ko ni inzu yubatse neza kandi isukuye, yayikoresha byose yakwifuza kandi atahomba, kubera ko iri n'ahantu heza mu gice twese tuzi nk'abanyarwanda hano i Kanombe, kandi iri ku mafaranga meza rwose.

Ni isoko ryiza cyane rinini riri hano mu mujyi wa Kigali, noneho ryazanye n'akandi karusho ko gucuruza ibintu by'imboga n'imbuto, ni serivise nziza bahaye abakiliya babo kubera ko biborohereza ko basohokamo hano icyo bashaka cyose bakiguze, turabonamo umunyamakuru wacu mwiza cyane tumenyereye kuri arabi eyi uzwi nka Christelle Kabagire, urabona ko yarigannye, nawe yaje guhaha byamworohereje.

Inzu nziza cyane hano mu mujyi wa Kigali ni ndende nk'uko bigaragara, ni na nini kubera ko buri muturage wese bashaka gukoreramo ntabwo byamugora kuko imiryango ibakibonekamo. Turabonamo rero iduka ry'abana tukabonamo n'iryo wahitamo nk'umuntu mukuru, ridufasha kwambara neza no kugaragara neza mu ruhando mpuzamahanga.

Ikigo nderabuzima cyiza cyane gikorewe isuku nk'uko bigaragara n'abahagana bayizeye kubera ko ababyeyi bashyize abana hasi bari kubahakinira, bigaragara ko hari isuku bihagije; gikikijwe n'ubusitani rero bwiza cyane bugaragara ko bwitabwaho burasukuye kandi buratoshye hirya hari utubuye turabona ikigega gifasha abarwayi kubona amazi no mu gihe muri robine yaba yabuze.

U Rwanda rufite ubuyobozi bwiza cyane nk'uko bigaragara, aho ubuyobozi buba bwegereye abaturage, buri kubabwira ibyiza byo gukoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi leta iba yarabateganyirije cyangwa iba yarabahitiyemo, biragaragara ko n'abaturage baba bitabiriye kandi bishimye batuje bakurije ibyo abayobozi babo bababwira, kandi bakabakurikiza mu buryo bwiza kandi bugaragarira ijisho.

Aha turahabona inyubako y'ubucuruzi, bigaragara ko bari mu gisate cy'ibikoresho by'isuku. Aho byagufasha gusukura inzu yawe, ubwiherero, ibikoresho byose byo mu rugo, haba ibyombo. Noneho ku gice cyo hirya turahabona ibikoresho nabyo by'isuku, byo kwihanaguza, ibyagufasha kutagenda unyanyagiza umwanda aho uri hose.

Iguriro rinini cyane ririmo ibigurwa bitandukanye, dukenera twebwe nk'abanyarwanda n'iby'ibyo kurya, kunywa, ibikoresho by'isuku ahangaha rero iyo wahagannye, urugo rwawe ntirwongera kurangwa n'umwanda, cyangwa inzara kandi uba uri umusirimu nk'uko bigaragara. Angaha nta muntu woroheje upfa kuhajya pe! kubera ko ibintu byaho biba byihagazeho ariko biradufasha nk'abaturarwanda.

Abantu bane bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, bahagaze hejuru y'abantu benshi harimo abanyonzi, n'abaturage basanzwe, bari kuvuga kuri gahunda y'ubwizigame ya ejo heza bafite ibirango byanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'ubururu.